Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu hagaragara nko munsi y'umusozi, hakurya hariho umusozi uriho ibibuye, giteye amarangi y'ubururu, bari gucomeka n'insinga z'amashanyarazi.

Iki ni icyumba cy'ishuri kirimo intebe n'ameza ,inyuma y'aho hariyo ikibaho, ku ntebe y'inyuma harambitseho imyenda y'umweru.

Icyapa kiranga ikigo cy'amashuri ya Kampanga, n'icyapa kinini kiranga icyo kigo cy'amashuri, kirimo ibara ry'umweru ,inyuguti zandikishije ibara ry'umukara.

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye. Inzugi ziteye amarangi y'ubururu, hariho n'imigezi yo gukarabiramo. Munsi hateretseho ameza menshi.

Inzu nziza yubatse neza, yubakishije n'amatafari ahiye, inzugi zayo ziteye amarangi y'umweru, irafunguye iri gucururizwamo imiti y'amatungo.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti y'amatungo ni inzu yubatse neza, y'ubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi ziteye irangi ry'umweru n'amadirishya. Imbere ya yo hatetseho agatabureti, hariho n'ibindi bicuruzwa, birimo amatara y'amashanyarazi.

Ikibuga kinini kiri imbere y'amashuri ku mashuri imbere hari abantu bambaye imyenda. Abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu. Mu kibuga harambitsemo utuntu tubiri tw'umweru. Icyo kibuga gishakaje amabati y'icyatsi. Kuri puranshe hateye irangi ry'ubururu n'inzugi n'amadirishya ni ubururu.

Ibikoresho bakoresha bari kubaza hari: iranda, harimo urukero, harimo icyuma gifataga imbaho, harimo n' inyundo, harimo n' icyo bapimasha bari kuringaniza imfuruka.

Abana b'abakobwa bari mu mwuga w'ubudozi, bambaye imyenda, amashati y'umweru n'amajipo y'umukara, bafite, bari mu cyumba kirimo imashini nyinshi nyinshi, bari kudoda, bamwe bari gukata abandi bari kudoda.

Abantu benshi bari kwiga iby'ubwubatsi n'ububaji, bambaye amasarubeti, bambaye imyenda inyuranye, harimo abambaye imipira y'umukara n'iy'ubururu, ariko amasarobeti yo bambaye arasa.

Abantu bari gusudira, bambaye za masike mu maso. Bambaye n’ibisarubeti by'ubururu. Undi umwe yambaye ishati y'umweru, na we ari gusudira. Bose bari kureba uko basudira.

Abagabo bane, umwe ahagaze inyuma yabo, batatu bari kumwe ,undi uhagaze inyuma afite impapuro, yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru ,abandi batatu bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'imihondo, bafite indobo bari gukora akazi.

Abanyeshuri bambaye ibisarubeti by'ubururu, bose bapfukamye hasi, bari bifotoje bari gukora hasi. Abandi bane barahagaze, undi we arunamye, ari kubereka ibyo bintu bari gukora. Hirya ye hari inzu yubakishije amatafari .

Abana bari mu ishuri bari kwandika bicaye ku ntebe, umwana ari kwandikisha ikaramu n'ukuboko kw'ibumoso.

Abagabo batanu bambaye ibisarubeti by'ubururu, bambaye n'ingofero z'umuhondo, bambaye n'ubupfukamuwa, bari gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugabo uri gukanika ibyuma by'ikoranabuhanga, ari gucomeka insinga mu mashini, yambaye isarubeti y'ubururu, afite n'umusatsi ntabwo yiyogoshesheje.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga, bambaye amasarubeti y'ubururu bafite n'ibikoresho byinshi bitandukanye. Harimo nabambaye amarinete.

Abagabo batanu bambaye amasarubeti y'ubururu n'udupira tw'umweru imbere. Bari gukanika icyuma kinini bagifasheho bose, harimo n'uwipfutse agatambaro k'umweru.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, bambaye amashati y'umweru n'amakabutura y'imikara, bari kwitegereza, bari kwiga.

Abana babiri bari kwiga babakobwa bari gukoresha za mashini zabo. Umwe yazingishije imisatsi bambaye amashati y'umweru na karuvati irimo amabara y'umweru n'umukara.

Abakobwa baricaye bari kudoda, bari ku mamashini, bambaye imipira y'ubururu, bari kudoda ni batatu, izindi mashini nta bantu bazicayeho. Umwe yambaye ikanzu y'icyatsi.

Umukobwa mwiza w'inzobe wambaye imyenda y'umukara ari mucyumba cy'ubudozi, harimo imashini nyinshi ari kudoda ari no guseka inyuma hamanitseho imyenda y'ubururu.

Umukobwa uri guteka muri resitora yambaye ingofero y'umweru, yazingishije imisatsi ya menshi, yambaye n'itaburiya y'umweru ,ari guterura isafuriya ku ziko inyuma ye har'inzu nziza yubakishije amabati.

Abagabo bari kwiga iby'ububaji, bambaye amasarubeti n'imipira y'umukara, harimo n'abambaye n'imipira y'ubururu, bari kwiga iby'ububaji.

Abanyeshuri ni abakobwa n'abahungu, bambaye iniforume amashati ni umweru amajipo ya kaki, n'amakabutura ya kaki, harimo babiri bambaye imipira y'icyatsi, bari mu ishuri bari kwiga ni abana batuje.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'imihondo, bambaye n'ingofero z'imituku n'iz'imihondo. Bahagaze imbere y'icyuma cya taransifo, bari kugipima kandi bari no kucyigiraho.

Abakobwa bari gukora umwuga wo gusuka imitsatsi, bari kubasuka imitsatsi bambaye imyenda inyuranye y'amabara y'umutuku, ubururu, umweru, abandi basokoje natirere.

Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu hejuru. Umwe yambaye n'umupira w'ubururu urimo ibara ry'umurongo w'umweru imbere.

Abana bari kwiga imyuga yo gushushanya . Barishimye, bambaye amashati y'ubururu . N'amashuri yabo arubatse harimo amadirishya y'ubururu. Abana bari guseka, barishimye bafite n'amakaramu mu ntoki.

Umwarimu ari kwigisha abanyeshuri gukoresha mashini. Yambaye agapfukamunwa k'umukara, n'umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'ikoboyi. Umunyeshuri yambaye agapfukamunwa k'ubururu, n'ishati y'umweru, n'ijipo y'umukara. Abana bari gukoresha mashini.

Abantu batatu bambaye amasarubeti yu'bururu, bambaye udupfukamunwa, barahagaze, bari gukanika icyuma cyapfuye. Harimo n'umugore.

Abakobwa bane bambaye imyenda y'imyeru. Umwe yambaye n'amarineti, bari kurebera muri mikorosikopi ni abakobwa uri kubona bameze neza, ibyuma bicometse imbere yabo.

Abana babiri b'abanyeshuri bari kurebera muri mikorosikopi, bambaye na za ga mu ntoki, bari gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga. Umukobwa umwe yazingishije n'imisatsi.

Abanyeshuri bari kwiga kudoda bambaye imyenda y'ubururu bari kudoda n'imyenda y'amabara atandukanye. N'abanyeshuri b'abakobwa ni benshi bafite umusatsi mukeya wa natirere.

Abana b'abahungu bane bari gukanika ibyuma by'imodoka, bambaye udupira tw'umutuku mu nda tugiye kuba umuhondo ,bambaye n'amasarubeti y'ubururu afite n'icyapa cy'umweru, hano ku ibere.

Abanyeshuri benshi baricaye bari kurya, bari kurya n'imineke, barishimye, bambaye imyenda, amajipo y'uburu n'amapataro y'ubururu n'amashati y'umweru, bari kurya ibiryo biteretse ku meza, hirya ya bo hubatse ikigo cy'amashuri, cyubakishije n'amatafari ahiye.